Urupapuro rufite ibara ry'icyatsi rwanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse hariho umuntu wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu n'ishati y'umweru, ufite inzu mu ntoki ifite ibara ry'umweru, ifitemo n'imiryango ifite ibara ry'umukara ndetse n'amabati afite ibara ry'umutuku.

Umukobwa ufite imisatsi miremire ubyibushye ifite ibara ry'umukara, wambaye ikoti ry'amaboko maremare rifite ibara ry'umweru n'agapira gafite ibara ry'icyatsi n'ipantaro ifite ibara ry'umuhondo n'undi wambaye ikote rifite ibara ry'umukara, agapira k'umweru ndetse akaba hananditseho amagambo afite ibara ry'umweru.

Umukobwa wari gusuka ufite imisatsi myinshi ifite ibara ry'umukara wambaye ikote rifite ibara ry'umweru mo imbere n'agapira k'umweru uri mu kinyabiziga kiri mu bwoko nk'imodoka hariho amagambo yanditse yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'andi yandikishijwe ibara ry'ubururu harimo n'andi yandikishijwe ibara ry'umutuku.

iIsosiyete y'ubwishingizi mu Rwanda, iramenyesha abaturarwanda ko bashobora gushinganisha ibihingwa byabo, bikaba bitekanye, aho ushobora guhamagara ijana na mirongo inani na rimwe, zeru, bakaguha ubundi busobanuro bwimbitse.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, amabati afite ibara ry'umukara n'umweru, harimo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi, harimo n'amabuye afite ibara ry'umweru, hakaba hateretsemo ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka kirangaye hejuru kicayemo abantu, umukobwa ufite imisatsi myinshi ifite ibara ry'umukara ndetse bari kumwenyura we n'umuhungu bambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu, umukobwa wambaye agapira gafite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu.

Ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, ndetse hakaba hariho n'inyubako ifite ibara ry'umweru, ifite umuryango ufite ibara ry'umukara, hakaba hari ikiranganteko gifite ibara ry'umukara kiririmo amagambo yandikishijwe umweru ndetse n'ubururu, hakaba hariho n'amagambo yanditse yandikishijwe mu ibara ry'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba rero n'imibare yandikishijwe ibara ry'umukara n'amagambo yandikishije ibara ry'umukara, hakaba hariho n'akarongo gafite ibara ry'icyatsi.

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ruri muri terefone rufite amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara hariho utuntu dushushanyijeho dufite ibara ry'umweru hari akariho akapupe kari guseka gafite ibara ry'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru hariho n'ahandi hafite ibara ry'umukara rukaba rwandishijweho amagambo afite ibara ry'umweru ndetse n'imibare ifite ibara ry'umweru, hakaba hariho isaha ndetse hakaba hariho n'indi mibare ifite ibara ry'umweru hakaba handitsweho utuntu tugaragaza amerekezo dufite ibara ry'ubururu.

Telefone ye ifite ibara ry'ubururu, handitseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru. Ndetse hariho kandi kantu gafite ibara ry'ubururu n'umweru, kariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Ameza afite ibara ry'igitaka ariho mudasobwa ifite ibara ry'umukara hakaba hari ibipapuro ndetse na telefone ngendanwa bifite ibara ry'igitaka n'umweru, hakaba hariho umuntu wambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara ndetse hari n'uturango tw'umweru, n'undi wambaye ikoti ifite ibara ry'itaka ndetse agapira gafite ibara ry'ubururu.

Inyubako y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye hakaba imyenda hariyo ifite ibara ry'umukanzu ifite ibara ry'umutuku n'ipantaro y'umukara agapira k'umweru ikanzu ya roze ndetse n'ikanzu y'umweru yarushanyijeho umukobwa ufite ibara ry'umutuku wambaye imyenda yumutuku mukanda afite ibara ry'icunga umutuku n'umweru ndetse n'umweru ndetse harimo n'iy'ivu

Ameza afite ibara ry'umweru hejuru hateretseho ishakoshi ifite ibara ry'umukara, hari umuntu ufite mudasobwa ifite ibara ry'umukara iteretse ku kabati gafite ibara ry'umweru, wambaye ikote rifite ibara ry'iroza, umupira w'umweru ndetse ufite imisatsi iboshye ifite ibara ry'umukara. Hirya hari utubati dufite ibara ry'umweru ndetse hariho ibintu bifite ibara ry'umukara, n'imyenda ifite amabara agiye atandukanye arimo umweru.

Akabati gafite ibara ry'umukara kamanitseho imyenda igiye itandukanye harimo agashati k'amaboko maremare gafite ibara ry'umukara kandi gafite ibara ry'icunga ndetse harimo umukobwa wambaye ikanzu ndende ifite ibara ry'umukara ndetse n'agakote gafite ibara ry'icunga n'utundikote dufite ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Ameza afite ibara ry'igitaka ateretse ibintu bi bye bitandukanye bifite ibara ry'umuhondo, ubururu, umweru ndetse wijimye hariho akaba hirya hari akabati gafite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'umweru akaba ariho ibikapu bijyiye bitandukanye bifite amabarage atandukanye y'umweru, ubururu ndetse n'iroza rimwe igitaka ndetse n'umukara.

Ameza ariho igitambaro gifite ibara ry'igitaka, ndetse hakaba hariho ubuntu bugiye butandukanye bufite amabara agiye atandukanye: umukara, igitaka ndetse n'ubururu; hakaba hari n'igitenge gifite ibara ry'icyatsi ubururu ndetse n'umweru; hakaba hamanitse imyenda igiye itandukanye ndetse n'ibintu bigiye bitandukanye hakaba n'indabyo zifite ibara ry'icyatsi .

Akabati gafite ibara ry'umweru, kamanitsemo imyenda igiye itandukanye ifite amabara agiyge atandukanye, umuhondo, umweru, icyatsi, ubururu ndetse hakaba harimo n'umutuku wijimye, hakaba harimo n'ibitebo bifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku n'umuhondo.

Inyubako y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye harimo ibintu bifite ibara ry'umutuku, umuhondo, n'icyatsi, ndetse hakaba harimo umuntu wambaye isengeri ifite ibara ry'umukara n'ingofero ifite ibara ry'umweru, hakaba harimo n'ibindi bintu bifite ibara ry'ubururu.

Imipira ifite amabara agiye atandukanye, ifite umutuku, ubururu ndetse n'umweru harimo n'uturongo dufite ibara ry'ubururu, hakaba harimo umupira ufite ibara ry'ivu, umweru, akarongo k'umukara ndetse harimo n'umukara, hakaba hirya hariho umupira ufite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'undi mupira ufite ibara ry'ubururu.

Inzu irimo akabati tugiye dutandukanye turimo ibintu bigiye bitandukanye amasakame ndetse bifite ibara ry'umukara, umutuku wijimye n'umweru hakaba harimo n'ihoboma hamanitse imyenda igiye itandukanye ikanzu ifite ibara ry'umukara, ikote rifite ibara ry'ubururu, ndetse hakaba n'umukobwa ufite umusatsi muremure ifite ibara ry'umukara n'igiti.

Imodoka y'umukara yo mu bwoko bwa Toyota, iri kugurishwa. Igiciro cyayo ni miliyoni 30 Frw.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru ndetse n'akandi kantu gafite ibara ry'umukara igparitse ahantu, inyuma hakaba hari imiryango ifite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku, hakaba harimo n'ikindi kinyabiziga gifite ibara ry'umutuku.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'ikamyo gifite ibara ry'umweru ndetse harimo n'umutuku, kikaba gifite amatara afite ibara ry'umweru yanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse hakaba kiri mu muhanda, kikaba giparitse, hakaba hirya hari n'ikindi gifite ibara ry'umutuku.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka gifite ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho hirya ibiti bifite ibara ry'icyatsi, ndetse n'icyapa gifite ibara ry'ubururu, umukara ndetse n'umweru cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'imodoka kiri mu muhanda gifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, inyuma hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'umutuku n'umweru, hakaba hirya hari inzu zifite amabati afite ibara ry'icunga ndetse n'ibiti bifite ibara ry'ubururu n'icyatsi.

Ameza afite ibara ry'umukara, hataretseho amafaranga agiye atandukanye, hirya hari akamashini kabara amafaranga gafite ibara ry'umweru n'umukara, hari mudasobwa ifite ibara ry'umukara ndetse hari umuntu wambaye umupira y'ubururu, ishati y'umweru na karuvati ifite ibara ry'umukara.

Akamashini kabara amafaranga gafite ibara ry'umweru gateretse ku meza afite ibara ry'igitaka n'amafaranga menshi kuruhande yicaye umuntu ku ntebe y'umweru wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru uri kubara amafaranga.

Akamashini kabara amafaranga gafite ibara ry'umweru hariho mudasobwa ifite ibara ry'umukara, harimo umuntu wambaye ishati y'amaboko ifite ibara ry'umweru ndetse n'agapira karengaho gafite ibara ry'ubururu na karuvati ifite ibara ry'umukara, wambaye ishati y'amaboko ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'umweru n'agapira hejuru gafite ibara ry'umutuku.

Amafaranga ariho ikiyaga gifite ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, igiseke gifite ibara ry'umuhondo wijimye hakaba hariho umukono hakaba hariho imibare yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Ameza ateretseho, ariho igitambaro ateretse ibintu bi bitandukanye; igitamboro gifite ibara ry'uburu ndetse n'umweru akantu bashyiramo amagi gafite ibara ry'umutuku n'ishashi irimo amandazi ndetse na keke ifite ibara ry'umweru.

Umukobwa uhagaze wambaye ikabutura ifite ibara ry'iroze, inkweto zifite ibara ry'igitaka ndetse n'umweru, wambaye agapira k'amaboko maremare gafite ibara ry'umweru, ufite telefone mu ntoki n'undi uhagaze ku ruhande wambaye ishati ifite ibara ry'ivu ndetse n'ijage hejuru ifite ibara ry'umweru

Umuntu wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umweru wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara n'uhagaze yambaye ikoti rifite ibara ry'umukara n'ikanzu ifite ibara ry'umweru n'umukara inyuma hakaba hari akabati karimo ibyo kunywa bigiye bitandukanye harimo n'imitobe ndetse n'ibindi bintu.

Abagore b'abirabura bishimye cyane bazamuye ikiganza cyabo cy'iburyo ndetse imbere yabo hasutamye umugore wumuzungu ufite akanu mu ijosi aba bagore imbere yabo hari ibicuba byagenewe gushyirwamo amata.

Ameza afite ibara ry'igitaka hari igitambaro gifite ibara ry'igitaka ndetse n'umukara ndetse hakaba ariho ijage irimo amata ndetse n'ibirahuri birimo amata kuko hari intebe zifite ibara ry'umweru hicayeho abantu bafite ibikumbe birimo amata hari uwambaye ishate y'amaboko maremare afite ibara ry'umweru n'umutuku ndetse n'ubururu bw'ipantaro y'umukara.

Biragaragara ko ahangaha ari ku kicaro cya emutiyene kuko abakiriya baba bagiye gusaba serivisi zitandukanye abagura simukadi, ababitsa, ababikuza n'ababaza izindi serivisi bakora kugira ngo barusheho kumenya neza iki kigo ibyo gikora.

Igipapuro gifite ibara ry'umutuku, handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, hari umuntu wicaye wambaye umupira w'amaboko maremare, ufite ibara ry'umweru, wambaye ipantaro y'umukara, ndetse n'inkweto zifite ibara ry'umweru, hari telefone impande ye, ifite ibara ry'umweru, ndetse n'umutuku, hakaba harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku, n'imibare yandikishijwe ibara ry'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru hariho abantu bari guseka, harimo umukobwa wambaye agasengeri gafite ibara ry'umukara, ipantaro ifit’ibara ry'ubururu n'agasakoshi gafite ibara ry'ubururu, n'umuhungu wambaye umupira w'umweru ndetse n'ingofero ifite ibara ry'umweru, hari n'amagambo yanditse yandikishijwe ibara ry'umweru n'umuhondo, ndetse hari n'akazuba gafite ibara ry'umuhondo.

Umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ndetse n'umuntu wambaye igitenge kirimo amabara agiye atandukanye, umweru, umuhondo, umutuku ndetse harimo n'icunga, ufite imisatsi myinshi yaboboshye izirikijweho agatambaro gafite ibara ry'umuhondo, umweru ndetse n'umukara hanze hari amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse uwo mugabo akaba afite telefone mu ntoki wambaye rinete.

Umuntu ufite telefone ngendanwa mu ntoki, ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba hariho amagambo agiye atandukanye, yandikishijwe ibara ry'icyatsi umweru ndetse n'umukara, hakaba hariho n'imibare ifite ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi, hakaba hariho n'ibindi bintu bifite imibare, amabara afite ibara ry'umweru.

Urupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye rufite ibara ry'umweru ruriho amagambo afite ibara ry'umukara, imibare ifite ibara ry'umukara ndetse n'andi ariho afite ibara ry'icyatsi hakaba hariho n'akantu gafite ibara ry'umutuku, hakaba hariho n'amagambo yanditseho agira ti '' irembo''.

Telefone ngendanwa ifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo hakaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba hariho ibintu bigiye bitandukanye: inzu ifite ibara ry'ubururu, ndetse n'indege ifite ibara ry'umuhondo wandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara.

Umuntu ufite icupa ririmo icyo kunywa, rifite ibara ry'umukara wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo, wandikishijweho amagambo aryo atandukanye afite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, n'akandi gafite ibara ry'ubururu n'undi muntu uhagaze wambaye ishati ifite ibara ry'umweru ipantaro yubururu.

Telefon ifite ibara ry'umukara, mu imbere harimo ibara ry'icyatsi ndetse n'umweru, harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, ndetse hariho n'imibare ifite ibara ry'umukara, n'akantu gafite ibara ry'icyatsi, hariho umuntu ufite telefone, ndetse hakaba hejuru yariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, n'andi ari mu kantu k'icyatsi yandikishijwe ibara ry'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye ruriho akarongo gafite ibara ry'umukara ndetse n'ibara ry'icyatsi, harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba harimo n'yandikishijwe ibara ry'umukara handitsemo imibare yandikishijwe ibara ry'umukara hakaba harimo n'akandi kantu gafite ibara ry'umutuku.

Urupapuro ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru n'imibare yandikishijwe ibara ry'umuhondo, umukobwa ufite telefone irimo amabara agiye atandukanye ifite ibara ry'ivu, handitseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru, imibare yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse hariho n'ahandikishijwe ibara ry'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ryanditseho amagambo menshi agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara, urupapuro rufite ibara ry'umweru hariho imibare ifite ibara ry'umukara ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara atsindagiye hariho n'andi agiye afite ibara ry'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu rwanditseho amagambo agiye atandukanye, yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo. Hakaba hariho ibintu bigiye bitandukanye; hakaba hariho itara rishushanyije rifite ibara ry'umuhondo, televiziyo ifite ibara ry'umuhondo, ndetse n'inzu ifite ibara ry'umuhondo.

Urupapuro rufite ibara ry'umweu ruriho amagambo menshi agiye atandukanye, rwandikishijwe amagambo afite ibara ry'umukara ndetse n'imibare ifite ibara ry'umweru ndetse n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse hariho n'akantu gafite ibara ry'ubururu kariho amagambo aho ibara ry'umutuku ndetse n'umukara urimo umutuku n'umuhondo.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru n'akantu gafite ibara ry'icyatsi, hariho umukobwa ufite telefone mo imbere afite ibara ry'umweru ndetse n'icyatsi, harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse hakaba harimo n'utuntu tugiye dutandukanye, harimo agashushanyije mu buryo bw'ikaye handitsemo inyuguti bita "s" hakaba hariho n'amagambo yandikishije ibara ry'umukara.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'ubururu umukara ndetse n'umutuku hakaba hariho akantu n'imibare ifite ibara ry'umutuku.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ryandikishwaho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'imibare ifite ibara ry'umukara n'akandi gafite ibara ry'icyatsi karimo ibara ry'umweru n'andi afite ibara ry'ivu n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara atsindagiye.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse hariho n'akandi gatsindagiye gafite ibara ry'ubururu butsinda, hakaba ari ikiranganteko gifite ibara ry'umuhondo, icyatsi ndetse hariho n'agaseke gafite ibara ry'igitaka n'umukara hakaba hariho hirya n'akandi gafite ishami ry'igicunga ry'icyatsi.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru muri mashini ifit’ibara ry'umukara hakaba handitseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba hariho n'utundi dufite ibara ry'icyatsi n’umuhondo ndetse n'ubururu, hakaba n'ikirangantego gifite amabara agiye atandukanye.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ryandikishwaho amagambo afite ibara ry'umukara ndetse n'umweru harimo imibare yandikishijwe ibara ry'umukara hakaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'icunga hakaba hariho amagambo yanditse ngo banke hakaba hariho amagambo yanditse ho ngo kigali.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru rwandikishijweho amagambo rufite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hariho imibare yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, hakaba hariho imibare igira iti kabiri, zeru, cumi n'umunani.

Urupapuro rufite ibura ry'umweru ryandikishijwe ho amagambo afite ibara ry'umukara ndetse harimo n'umweru n'adifite ibara ry'umutuku wijimye hakaba hariho agakano gafitepande enye gafite ibara ry'umutuku wijimye kariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'akandi gafite ibara ry'umweru akaba ariyo imibare yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse harimo n'imibare yandikishijwe iburara ry'umukara.

Urupapuro ruri muri mudasobwa rufite ibara ry'umweru ruriho ibintu bitandukanye rwanditsitsweho amagambo agiye atandukanye. Rufite amagambo afite ibara ry'umukara, imibare ifite ibara ry'umukara. Ndetse hari nandi afite ibara ry'ubururu akaba ariho ikirangantego gifite ibara ry'ubururu, umuhondo, ndetse n'icyatsi. Akaba ariho n'akandi gafite ishami ry'Icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho ibintu bigiye bitandukanye rwandikishijwemo amagambo afite i ibara ry'umweru ndetse n'umukara ruriho ndetse n'amagambo afite ibara ry'umweru mu kanwa gafite ibara ry'umukara ariho n'amagambo yatishijwe ibara ry'umukara agira ati yato.

Imashini ikoreshwa ibara amafaranga ifite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hari umuntu ufite mudasobwa ifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru iteretse ku meza ifite ibara ry'umweru, wambaye ikote ry'amaboko maremare rifite ibara ry'igitaka, umuntu ufite uruhu rusa umweru.

Umuntu ufashe amafaranga afite ibara ry'ubururu, umukara ndetse harimo n'umweru, wambaye ikote rifite ry'umukara, ishati y'umweru, karuvati irimo uturongo tw'umweru n'umukara, hirya hari inzu ifite ibara ry'umweru n'ibara ry'umuhondo, umutuku mu magambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'ayandikishijwe ibara ry'umweru.

Amafaranga ariho ibintu bigiye bitandukunye hariho ahariho umuntu uteze igitambaro wampaye amaherena bifite ibara ry'igitaka, ndetse hakaba hariho n'ibiti birerebire n'amazu, ndetse hakaba hariho n'amazi n'abantu bagiye batandukanye bifite ibara ry'igitaka ryandikishijwe mu ibara ry'imibare ifite ibara ry'umutuku wijimye.

Igipapuro gifite ibara ry'icyatsi cyandikishijeho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru harimo n'umutuku arimo n'amagambo yandiki ibara ry'umukara harimo n'ubururu n'amagambo yandikishi ibara ry'ubururu hakaba harimo ibara ry'umutuku ndetse harimo n'amabaragi atandukanye harimo ibihugu bigiye bitandukanye bifite amabara y'uturongo twumutuku n'umweru n'ubururu n'akandi gafite ibara ry'ubururu umukara kazengurutswe n'utuyenyeri dufite ibara ry'umweru.

Urutonde ruriho ibihugu bigiye bitandukanye byandikishijwe mu ibara rifite ibara ry'umweru ndetse rufite n'ibara ry'igitaka hakakaba harihoho ibintu byari bitandukanye hari rifite ibara ry'umutuku ndetse n'utunyeri dufite ibara ry'umuhondo hakaba hariho udufite ibara ry'umweru ndetse n'akadomo k'umutuku ibara ry'umutuku umweru ndetse n'icyatsi

Ameza afite ibara ry'igitaka hari umuntu uri kuba mu amafaranga yambaye isaha ku kuboko amafaranga agiye afite amabara atandukanye harimo umutu, umuhondo ndetse n'umweru n'ubururu hakaba hariho imibare yandikishijwe ibara ry'ubururu n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku.

Amafaranga ariho amabara agiye atandukanye yandikishijwe amagambo afite ibara ry'umweru, hariho inzovu ifite ibara ry'ivu ndetse n'amagambo yandikishijeho ibara ry'ivu ndetse n'umukara, hakaba hari n'andi afite ibara ry'icyatsi ashushanyijeho agasumbashyamba gafite ibara ry'icyatsi kandikishijeho amagambo afite ibara ry'umukara.

Amafaranga ariho umuntu ufite umusatsi miremire iciye bugufi, ufite wambaye agapira gafite ibara ry'igitaka imibare yandikishijwe ibara ry'umukara, ndetse n'indi yandikishijwe ibara ry'icyatsi, hakaba hariho ikirangantego ndetse n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Urupapuro ruriho urutonde rw'ibintu bigiye bitandukanye, rukaba rufite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba handikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara, imibare ifite ibara ry'umweru ndetse n'andi mazina afite ibara ry'umweru, hakaba ariho ibihugu bigiye bitandukanye, hakaba ariho idarapo rifite ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku n'umweru.

Ameza ari ibipapuro bifite iburara ry'umweru ndetse n'amafaranga ariho imibare yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'umukara n'ibiceli bifite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo hariho amafaranga afite ibara ry'umweru ndetse ariho n'amafaranga adafite ibara ry'umutuku ryandikishijwe imibare ifite ibara ry'umutuku ndetse n'andi yandikishijwe imibare ifite ibara ry'igitaka.

Ibyo binyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka biri mu muhanda bifite amabara agiye atandukanye bifite umweru ndetse n'ubururu nyuma hari amagambo y'umweru ndetse n'umukara akaba hariho abantu bambaye umupira ufite ibara ry'umweru ipantaro y'umukara ndetse n'inzu z'ubucuruzi ku ruhande.

Akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda kariho ibintu bigiye bitandukanye, gahagazeho umuntu wambaye umupira w'amaboko magufi ufite ibara ry'ivu, ndetse ipantaro y'umukara n'inkweto zifunguye zufite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, hakaba hariho utuntu tugiye dutandukanye dufite ibara ry'umutuku, umweruru, ubururu ndetse n'igitaka. Hakaba hariho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Urupapuro ruriho ibintu bigiye bitandukanye byanditseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'amashusho ariho ibintu bigiye bitandukanye ,iminara miremire ifite ibara ry'umweru amazi afite ibara ry'umweru ndetse n'imisozi ifite ibara ry'icyatsi hariho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku n'umupira ufite ibara ry'ubururu

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ivu, n'umweru; hakaba hariho icyapa gifite ibara ry'umweru kiriho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu n'imibare yandikishijwe ibara ry'ubururu; hakaba hariho ibiti bifite ibara ry'icyatsi ndetse hakaba harimo n'inzugi zifite ibara ry'igitaka.

Ikibaho gifite ibara ry'umweru ryanditseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, akaba ariho n'amadarapo afite ibara ry'umutuku ndetse harimo uturongo tw'umweru n'ubururu, hakaba hariho n'irindi rifite ibara ry'ubururu ririho akazi k'umweru n'indi rifite ibara ry'umutuku ririho agasaraba gafite ibara ry'umweru.

Inyubako y'ubucuruzi ifite amabara agiye atandukanye harimo: icyatsi, umuhondo, umutuku, umweru ndetse n'ubururu, hakaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, n'umutuku ndetse n'umukara, hakaba hariho n'akandi kantu gafite ibara ry'umuhondo, icyatsi ndetse n'umukara.

Inyubako y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye birimo udupapuro dufite ibara ry'umutuku w'umuhondo ndetse n'umweru harimo n'ubururu, akaba ari n'umuntu wicaye wambaye umupira ufite ibara ry'umweru arimo akanwa k'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara ikaba handitseho amagambo kuri ibyo bipapuro agiye atandukanya yanyandikishi ibara ry'umutuku.

Icyapa gifite ibara ry'ubururu ndetse ryanditseho amagambo afite ibara ry'umweru, ndetse n'ayakishijwe ibara ry'umuhondo n'imibare ifite ibara ry'umweru, hirya hari ibiti bifite ibara ry'icyatsi ndetse hari kugenda umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruho ibintu bigiye bitandukanye ririho inkweto zifite ibara ry'igitaka ndetse n'ivu hamwe n'umukara hariho akamashini gafite ibara ry'umweru ndetse kandi amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku, umukobwa wambaye mu mupira k'umweru.

Intebe zifite ibara ry'umutuku ndetse harimo n'agahodo gakeya ikakaba ifite ibara na none ry'igitaka, akabati gafite iba ry'itaka, intebe zifite ibara ry'umukara n'igitaka n'izindi zifite ibara ry'umweru n'igitaka, ameza afite ibara ry'umukara, inzugi zifite ibara ry'igitaka ndetse n'irangi isize mu nzu ifite iba ry'umweeru.

Ameza afite ibara ry'igitaka hariho intebe zifite ibara ry'umukara n'igitaka hariho akabati gafite ibara ry'igitaka n'umutuku, inyuma ari amabati afite ibara ry'umweru ndetse hariho ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi.

Ameza afite ibara ry'umukara ariho akantu kazamuye, gafukuye, gafite ibara ritakariho uturobine dufite ibara ry'umweru, hirya hakaba hari akandi gapapuro gafite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu harimo n'umukara.

Uburiri bufite ibara ry'umweru buri ku gitanda gifite ibara ry'igitaka ndetse n'ameza afite ibara ry'igitaka, hakaba ariho amashuka afite ibara ritandukanye umweru, igitaka, ivu ndetse n'ubururu, hakaba hariho imisego ifite ibara ry'umweru n'amarido afite ibara ry'umweru.

Imbaho zifite ibara ry'igitaka hahagazeho umuntu wambaye ipantaro ifite ibara ry'igitaka, inkweto z'ubururu n'umweru ndetse n'umupira ufite ibara ry'ubururu hakaba hirya ibindi bifuninze mu bishashi bifite ibara ry'ubururu, n'umuntu wicaye wambaye ipantaro yu'ubururu, ufite umupira ufite ibaryitaka ndetse n'irindi rifunitse rifite ibara ry'umweru.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ndetse n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi hakaba hariho amatara afite ibara ry'umuhondo ndetse n'amagambo yanditse hejuru yandikiishijwe ibara ry'umweru ndetse n'akandi kabara gafite ibara ry'umutuku, umuhondo, ubururu.

Ubusitani buteyemo ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'indabyo zifite ibara ry'umuhondo umutuku, umweru ndetse n'icyatsi, hakaba harimo intebe ifite ibara ry'umukara ndetse n'ameza afite ibara ry'umukara, hakaba hakikijwe n'akantu gafite ibara ry'ivu.

Inyubako ndende ifite ibara ry'umweru iriho itente ifite ibara ry'umweru, intebe zifite ibara ry'umukara ndetse n'umutuku hirya hakaba hari n'indi nyubako ifite ibara ry'umweru, ndetse hakaba hari n'indabyo zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Inyubako ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hakaba hariho amarembo afite ibara ry'umukara, n'amagambo yandikishijwe mu ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, hakaba ari ibiti n'indabyo bifite ibara ry'icyatsi, ndetse hakaba hariho n'ibindi bintu bigiye bitandukanye harimo intebe zifite ibara ry'umukara n'ameza y'umukara.

Inzu ifite amarandege atandukanye harimo umweru, umuhondo, iroza ndetse hakaba harimo n'icunga n'icyatsi. Intebe zifite ibara ry'igitaka n'icyatsi akaba yicaye umuntu wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu ndetse na mudasobwa hakaba hariho ameza afite ibara ry'umweru ndetse hariho n'imiryango ifite ibara ry'ivu.

Ameza afite ibara ry'igitaka ndetse n'ibikombe bifite ibara ry'umukara, n'agashashi gafite ibara ry'umukara, n'akandi gafite ibara ry'umuhondo n'icyatsi, n'umweru, kariho amagambo yandikishije ibara ry'umutuku na teremusi ifite ibara ry'umukara n'umweru.

Ameza afite ibara ry'igitaka ry'ibyatsi intebe zigiye zitandukanye zifite ibara ry'ubururu, icunga, umuhondo ndetse n'igitaka, hakaba hariho n'izindi zifite ibara ry'umukara n'ameza y'umukara hateye indabyo zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ihema rifite ibara ry'umweru.

Inyubako ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'indi ifite amatara afite ibara ry'umuhondo, mo imbere harimo amaragi atandukanye icyatsi ubururu, icunga ndetse n'umuhondo, hakaba harimo ahariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru.

Inyubako ndende ifite ibara ry'ivu ndetse n'amadirishya afite ibara ry'ubururu n'amarido afite ibara ry'igitaka hakaba handitseho amagambo agiye atandukanye, yandikishijwe ibara ry'ivu ndetse hakaba hariho akantu gafite ibara ry'ubururu.

Uburiri bufite ibara ry'umweru, hariho amashuka afite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, igitanda gifite ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho n'ahantu bogereza hafite ibara ry'umweru ndetse n'umukara n'akamashini gashyushya gafite ibara ry'umukara ndetse n'umweru.

Ameza afite ibara rya shokora ndetse n'amasahani afite ibara ry'umweru, akaba ateretse ibintu bigiye bitandukanye, bifite ibara ry'icunga, umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku n'isahani nini ririya ibiribwa bafite ibara ry'igitaka ndetse na shokora, hakaba hariho n'ibindi hirya bifite ibara ry'umweru birimo ibyo kurya, bigiye bitandukanye bifite ibara ry'icyayi.

Inyubako iriho ibyapa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'ubururu bwerurutse ndetse harimo n'igifite ibara ry'umukara cyandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru n'andi yandikishijweho amagambo afite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba harimo n'imibare yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Akazu kari ku muhanda kafite ibintu bigiye bitandukanye bifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ivu, hakaba hariho utuntu tugiye dutandukanye, n'intebe zifite ibara ry'umukara ameza asa ibara ry'umukara.

Ameza afite ibara ry'umweru hateretseho mudasobwa ifite ibara ry'umweru n'akamashini gafite ibara ry'umukara hari umuntu uri kuyikoresha wambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'umukara, ikanzu ifite ibara ry'umukara n'abandi bari hirya bambaye agapfukamunwa gafite ibara ry'ubururu wambaye ikote ry'ubururu ndetse n'ishati y'umweru na karuvate ifite ibara ry'umutuku.

Ameza afite ibara ry'umukara ,intebe z'umukara, Imbere hari urupapuro rufite ibara ry'umweru rwanditseho amagambo afite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ku meza hakaba ari ibintu bijyiye bitandukanye bifite ibara ry'icunga ndetse n'icyatsi n'umukara.

Icyapa gifite ibara ry'umweru, icunga, ndetse n'ubururu cyanditseho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ubururu, akaba hariho imibare yandikishijwe mu ibara ry'umweru.

Ameza afite ibara ry'umweru hariho mudasobwa zigiye zitandukanye zifite ibara ry'umukara, hakaba hicayeho abantu bicaye ku ntebe zifite ibara ry'ubururu, abantu bagiye batandukanye harimo uwambaye ikote rifite ibara ry'ivu n'umweru n'ipantaro ifite ibara ry'umutuku wijimye n'inkweto z'umutuku wijimye n'uwambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umweru, ipantaro y'umukara ndetse n'inkweto z'umukara n'undi wambaye agapira k'umweru n'agakabutura...

Ameza manini afite ibara ry'umweru handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'akantu k'umutuku w'inyuma, hakaba hari ibirahure bifite ibara ry'umweru, hakaba hataretseho ibipapuro bifite ibara ry'umweru ndetse hakaba hariho n'ibindi bifite ibara ry'ubururu.

Inyubako ifite ibara ry'umweru, ifite urugi rufite ibara ry'umweru, hariho umuntu uri guseka wambaye ishati y'amaboko maremare, ifite ibara ry'ubururu ndetse hari n'akantu gafite ibara ry'umutuku, hakaba handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara, hakaba hariho n'andi hejuru yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi iri ku muhanda iriho icyapa kigiye dutandukanye cyanditseho amagambo yandikishije ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo n'umweru, hakaba hariho ibintu bigiye bitandukanye hari abantu bambaye imipira ifite ibara ry'umweru yanditseho amagambo afite ibara ry'ubururu, bafite ishakoshi ifite ibara ry'igitaka, ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto z'umukara n'undi ufite ishakoshi y'igitaka, ipantaro y'umukara n'inkweto z'umukara.

Inyubako ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru, iriho amagambo yandikishije ibara ry'umutuku, hakaba hari umukobwa wambaye agapira k'amaboko magufi gafite ibara ry'umweru n'umukara, n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu, hakaba hariho umuntu wambaye ikoti rifite ibara ry'umukara, ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ivu, n'uwambaye ishatiy'amaboko magufi, ifite ibara ry'umukara n'ipantaro y'umukara, wambaye ikote rifite ibara ry'igitaka ndetse n'ishati y'umweru n'ipantaro ifite ibara ry'...

Ku meza hariho igitambaro gifite ibara ry’umweru ndetse n’akandi gatambaro k’umutuku. Hejuru hateretseho icupa ry’amazi. Ndetse hakaba hahagazeho umuntu wambaye ishati y’amaboko magufi ifite ibara ry’umweru n’umuhondo, yambaye ipantaro y’igitaka. Ku rundi ruhande, hari undi wambaye ishati y’amaboko maremare ifite ibara ry’umukara ndetse n’ipantaro y’ivu.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru, ruriho ibara rifite ibara ry'ubururu, hakaba handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hakaba hari umugabo ufite amafaranga wambaye ikoti rifite ibara ry'ubururu, ishati y'ubururu ndetse n'ipantaro y'umukara. Akaba afite amafaranga afite ibara ry'umutuku ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku.

Icyuma gikoreshwa kibikuza amafaranga, hari ho umuntu ufite ikarita ifite ibara ry'ubururu, icyuma gifite ibara ry'umweru, umukobwa ufite imisatsi miremire, uri guseka, wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu, ndetse n'ahantu hafite ibara ry'ubururu, handitse ho amagambo agiye atandukanye yandikishije ibara ry'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu ryandikishwaho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, ndetse n'umuhondo akaba hari imibare yandikishijwe ibara ry'ubururu n'umukobwa wambaye umupira ufite ibara ry'umuhondo ufite imisatsi iziritse miremire ndetse wambaye isaha ku kaboko ufite terefone mu ntoki ifite ibara ry'umukara warengejeho agakoti gafite ibara ry'ubururu n'igikapu mu mugongo gifite ibara ry'umukara.

Ameza afite ibara ry'igitaka, ariho umuntu uri kwandika ufite urupapuro rw'umweru. Yambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru n'ipantaro ifite ibara ry'umweru.

urupapuro rufite ibara ry'umweru, rwanditseho amagambo afite ibara ry'icunga, ndetse hari n'andi afite ibara ry'icyatsi n'ubururu, hariho abantu babiri uwambaye umupira ufite amaboko maremare afite ibara ry'iroze ndetse n'ikote rifite ibara ry'irose ipanantaro ifite ibara r'iroze n'undi wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu.

Inyubako ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umuhondo, hakaba hateretse ivase rifite ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu, mo imbere hakaba harimo akantu gafite ibara ry'umuhondo harimo n'umuntu wicaye wambaye ishati ifite ibara ry'ubururu, ibyatsi biri impande bifite ibara ry'icyatsi n'ibiti bifite ibara ry'icyayi.

Urupapuro rufite ibara ry'ubururu rwanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo, hakaba hariho n'imibare yandikishijwe ibara ry'umweru, hariho umukobwa ufite imisatsi miremire y'umukara wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu ndetse ufite amafaranga mu ntoki agiye atandukanye, hari afite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru n'andi afite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru.

Ameza afite ibara ry'igitaka, ateretseho ibitabo bifite ibara ry'umweru, ndetse ari n'umuntu uhagaze wambaye umupira ufite ibara ry'umukara ndetse uriho uturongo dufite ibara ry'icyatsi n'umweru, n'undi uhagaze wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu uriho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku n'umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare rifite ibara ry'umweru, n'undi wambaye agapira gafite ibara ry'umukara karimo utuntu tw'umweru.

Isoko ririmo ibintu bigiye bitandukanye ririmo imbuto, hakaba hari izifite amabara agiye atandukanye, zifite ibara ry'umuhondo ndetse n'icyatsi, akaba hicayeho abantu bagiye batandukanye harimo imyenda ifite ibara ry'umuhondo, igitaka, ndetse n'umweru n'ubururu hakaba hariho n'ingofero ifite ibara ry'umukara, igitaka ndetse akaba hicayeho umuntu wambaye agapira gafite ibara ry'umweru n'igitaka.

Ihema rifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu n'umuhondo, hakaba hariho abantu bagiye batandukanye, abambaye imyenda y'icyatsi n'ingofero y'icyatsi n'uwambaye ikote rifite ibara ry'umukara n'ishati y'umweru n'undi wambaye igitenge gifite ibara ry'umutuku ndetse harimo n'umweru n'agapira bifite ibara ry'umukara.

Ishusho iri mu ibara ry'ubururu ndetse n'umweru ishushanyijeho telefone iri kugaragazaho akanyenyeri maganinani urwego hari imibare yanditswe impande hariho amagambo ari mu rurimi rw'icyongereza ndetse n'andi ari mu ururimi rw'ikinyarwanda makeya na nimero za telefoni.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye harimo utuntu bashyiraho amagi dufite ibara ry'icyatsi, ubururu, igitaka, umweru ndetse harimo n'umuntu witadiye igitambaro ufite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku wambaye agakanzu gafite ibara ry'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye harimo umuntu wifashe mu mayunguyungu wambaye ikanzu ifite ibara ry'igitaka ndetse harimo ibiribwa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'umweru, kariho utubati dufite amabara agiye dutandukanye, ibara ry'ubururu ndetse n'igitaka.

Ameza ateretseho ibiribwa bigiye bitandukanye bifite ubwoko bugiye butandukanye n'amabara agiye atandukanye nk'umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo hakaba hariho n'indobo zifite amabara y'umweru ndetse n'ibase ifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu hahagazeho umuntu wambaye igitambaro gifite ibara ry'irose n'umupira w'umweru .

Amabasi afite amabara agiye atandukanye arimo ibyo kurya bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara. amabasi afite ibara ry'icyatsi, umuhondo, umutuku ndetse hakaba hari umuntu wicaye wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu ndetse na gakapu gafite ibara ry'umukara n'igitenge mu mutwe gifite ibara ry'umutuku n'umuhodo.

Akazu k'ubucuruzi karimo ibintu bigiye bitandukanye, ibiseke bifite ibara ry'umweru, igitaka, umukara, umutuku, ndetse n'ubururu, hakaba hariho n'ibintu bigiyebitandukanye bimanitse bifite ibara ry'umuhondo biri mu ,kigina ndetse umukara, umweru n'umukara.

Isoko ririmo ibintu bigiye bitandukanye ririmo ibiribwa bigiye bitandukanye bifite amabara y'umutuku icyatsi icunga ndetse hakaba harimo umuntu wambaye isengeri y'umweru ipantaro fite ibara ry'umuhondo ndetse n'undi wambaye agapira gafite ibara ry'irose n'igitenge gifite ibara ry'icunga n'umuhondo .

Imifuka irimo ibirayi, imifuka ifite ibara ry'umweru hari abantu bafite ibyo birarayi bambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, akitero gafite ibara ry'umutuku, igikapu cy'umukara ndetse n'ijipo irimo ibara ry'ubururu n'umweru n'inkweto zifunguye, harengejeho igitenge gifite ibara ry'igitaka, iroze ndetse n'icyatsi.

Inyubako y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo imyenda ifite ibara ry’icunga, umuhondo, icyatsi, umutuku, ndetse n'umweru n'igitaka. Hakaba hari n'umuntu wambaye ishati ifite ibara ry'umukara, ipantaro ifite ibara ry'icyatsi ndetse n'inkweto z'umweru.

Inyubako y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo umuntu uhagaze wambaye umupira ufite ibara ry'umukara, icyatsi, umweru, ubururu, umuhondo ndetse n'ipantaro y'ubururu, n'agakomo ku kaboko gafite ibara ry'ubururu n'umuhondo ndetse n'icyatsi, intebe ifite ibara ry'ubururu ndetse n'izindi zifite ibara ry'igitaka. Hakaba hamanitseho ibisabo bifite ibara ry'igitaka, ndetse hariho n'indi mitako igiye itandukanye ifite ibara ry'umutuku n'ubururu.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye, harimo ibicuruzwa bifite amabara atandukanye, udutebo dufite ibara ry'umweru ndetse n'icunga, harimo ibiseke bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ivu, ibikapu bifite ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi, harimo n'ubururu ndetse hakaba hicayeho umuntu wambaye umupira w'umukara, ipantaro y'umukara irimo uturongo tw'umweru n'inkweto.

Isoko ririmo ibintu bigiye bitandukanye harimo imitako y'ubucuruzi ifite ibara ry'ubururu , ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo hakaba hari azi n'imyenda iri ku meza ifite ibara ry'umweru ubururu ndetse hakaba harimo n'icyatsi n'iroze hakaba haririmo umuntu wambaye igitede gifite ibara ry'icyatsi n'umuhondo harimo n'umutuku ndetse n'ikindi mu mutwe gifite ibara ry'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye irimo ibiribwa ndetse n'ibindi bintu bifite amabara y'umutuku, icyatsi ,umuhondo ,umweru, ubururu ndetse n'umweru werurutse ,hakaba harimo umuntu uhagaze wambaye umupira w'umukara ,ingofero y'umukara ndetse wambaye igitenge gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umukara.

Hari umuntu uhagaze wambaye agapira gafite amaboko maremare gafite ibara ry'umuhondo, ingofero y'umukara ndetse n'ijipo irimo amabara atandukanye umweru, umukara ndetse n'icyatsi harimo n'umuhondo n'undi wambaye ishati y'amaboko maremare afite ibara ry'umukara ndetse n'umweru ufite umusatsi miremire.

Akazu k'umuhondo gakoreshwa n'umukozi w'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda akaba ahahagazemo yambaye umupira w'umweru kandi yiteguye guha serivisi zigiye zitandukanye abaza bamugana.

Agakarita k'umuhondo gakoreshwa n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda, kakaba gahabwa abacuruzi bafite ibyo bacuruza bagashyiraho nimero bakoresha babishyuraho, ku buryo umuntu yishyura nta kindi kintu akaswe.

Ameza afite ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo ariho amagambo yandikishijwe ibara ry'ikigina ndetse hariho umukobwa uhagaze wambaye agasengeri gafite ibara ry'umweru n'umukara wambaye ipantaro ifite ibara ry'igitaka afite imisatsi miremire iboshye yiziritse y'umukara, ndetse mo imbere hakaba harimo abandi bambaye imipira ifite ibara ry'umuhondo n'utubaji dufite ibara ry'icyatsi turiho utuntu dufite ibara ry'umukara hejuru akaba arite zifite ibara ry'umukara.

Akabati gafite ibara ry'umukara kari ahari igipapuro cyanditseho amagambo agiye atandukanye, gifite ibara ry'umuhondo ndetse n'igitaka hariho telefone zifite ibara ry'ubururu ndetse n'umukara, hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'ikitaka hariho akamenyetso gafite ibara ry'umuhondo hariho n'imibare yandikishijwe ibara ry'umuhondo.

Akazu k'ubucuruzi kari ku kumuhanda gafite ibara ry'umuhondo hahagazeho abantu bambaye imipira y'umuhondo ipantaro y'ubururu ndetse nin'inkweto zifite ibara ry'umukara n'umweru ndetse 'ndi wambaye akajiri gafite ibara ry'umuhondo ikora ifite ibara ry'umukara n'inkweto zifunguye.

Abagabo babiri bambaye imipira y'imihondo ndetse inyuma yabo hakaba hari n'umutaka munini w'umuhondo, hakaba hari n'abantu benshi babashagaye, ni isosiyete y'itumanaho mu Rwanda yegereye abaturage, babaha serivisi zitandukanye.

Umutaka w'ubucuruzi ufite ibara ry'umutuku ndetse hakaba hariho n'akantu gafite ibara ry'ubururu, harimo n'ibiribwa bifite ibara ry'umutuku n'umuntu wambaye umupira ndetse ufite telefone mu ntoki ndetse n'agakarita gafite ibara ry'umutuku n'umukara, hakaba hirya hari n'inyubako ifite ibara ry'umuhondo.

Akazu k'ubucucu kari ku muhanda gafite ibara ry'igitaka ndetse n'umukara kariho ututuntu tubiri dufite ibara ry'umweru ndetse n'umukara gafite icupa ririmo amazi ndetse na mudasobwa ifite iba ry'umukara yicaye mo abantu babiri bicaye ku nte ifite ibara ry'umukara bambaye imipira ifite ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi, akazu k'ubucuruzi kari ku muhanda gafite ibara ry'umuhondo, kari ibintu bigiye bitandukanye iyo bifite ibara ry'umutuku ndetse n'umuhondo, kandikishwaho amagambo afite ibara ry'umutuku ndetse n'umukara, gahagaze aho abantu bagiye batandukanye, uwambaye ishati ifite ibara ry'umutuku, ijipo y'umukara inkweto zifunguye n'uwambaye pa ikabutura y'umukara n'umupira ufi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki, gifite agasanduku inyuma gafite ibara ry'umutuku, kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba harimo mu imbere agashashi gafite ibara ry'icunga ndetse n'umukara , umugabo wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu, ipantaro y'ubururu ndetse n'akajire gafite ibara ry'icunga kariho n'umweru.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gifite agasanduku k'inyuma gafite ibara ry'umutuku kafiteho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'icunga karimo uturongo dufite ibara ry'umweru n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umukara hakaba ahagaze umuntu wambaye ipantaro ifite ibara ry'umweru inkweto z'umukara zirimo uturongo tw'umweru ndetse n'umutuku akaba yambaye ishati ifite ibara ry'umukara ndetse n'akajire gafite ibara ry'icunga.

Umukobwa ufite imisatsi miremire myinshi yafunze inyuma ifite ibara ry'umukara, wambaye agapira gafite ibara ry'icyatsi ndetse n'umuhondo kanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'agapira karekare gafite ibara ry'umweru, ndetse hari n'ikinyabiziga kiri mu ubwoko nk'imodoka gifite agasanduku k'inyuma gafite ibara ry'icyatsi kandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru n'undi wambaye ikote rifite ibara ry'iroza.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho ibintu bigiye bitandukanye n'udukapu dufite ibara ry'umutuku ndetse n'icunga hakaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'andi magambo yandikishijwe ibara ry'umukara ariho agakapu gafite ibara ry'umutuku ndetse n'ubururu hakaba hari n'akandi gafite ibara ry'umuhondo .

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ndetse n'igitaka bivanze akaba ariyo amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi na y'umweru, akaba ariwe umuntu uhagaze wambaye ikoti ifite ibara ry'ubururu ishati n'uturongo tw'umweru ndetse ifite ibara ry'ivu ndetse wambaye isa ku kaboko n'ikaramu ku mufuka ndetse n'akandi gatambaro k'umutuku karimo utudomo tw'umweru hakaba hariho imibare yadikishijwe ibara ry'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruho ibintu bigiye bitandukanye ririho inkweto zifite ibara ry'igitaka ndetse n'ivu hamwe n'umukara hariho akamashini gafite ibara ry'umweru ndetse kandi amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku, umukobwa wambaye mu mupira k'umweru.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ruriho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse harimo n'umukara, hakaba harimo kandi utuntu dufite ibara ry'umukara, umuhondo ndetse umutuku wijimye, harimo n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara n'umweru, hakaba harimo n'ikindi kintu gifite ibara ry'umweru n'icupa rifite ibara ry'icyatsi.

Inzu ifite ibara ry'umweru harimo imyenda igiye itandukanye, hariho umukobwa wambaye ikanzu ifite ibara ry'ubururu wambaye ikanzu ndende ifite ibara ry'umukara ndetse haririmo n'umweru n'umukara hakaba hari n'imyenda imanitse ifite ibara ry'icyatsimweruru umukara umutuku wijimye ndetse n numukobwa uhagaze wambaye ikanzu yumweru.

Ibinyabiziga biri mu bwoko bw'imodoka ndetse n'ipikipiki hakaba harimo iby'ibinyabiziga byinshi biri mu ubwoko bw'ipikipiki, bambaye amakote afite ibara ry'umutuku handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu, harimo n'uwambaye ipantaro y'umutuku, ndetse hakaba hariho hirya indabyo zifite ibara ry'icyatsi n'ibiti bifite ibara ry'icyayi.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko nk'pikipiki gifite agasanduku inyuma gafite ibara ry'icyatsi kandidikishwaho amagambo afite ibara ry'umweru ndetse n'umuntu wambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'icyatsi ifitemo uturongo dufite ibara ry'umutuku n'amagambo yanditseho afite ibara ry'umweru ipantaro ifite ibara ry'ivu ndetse n'icyapa inyuma gifite ibara ry'icyatsi n'akandi gafite ibara ry'umutuku n'umweru.

Urupapuro ruriho ibintu bigiye bitandukanye byandikishijwe amagambo afite ibara ry'umweru ndetse n'umukara hariho mudasobwa ifite ibara ry'umweru ririmo ibara ry'ubururu ndetse na terefone ngendanwa zifite ibara ry'umukara n'ubururu .

Ibinyabiziga biri mu bwoko bw'ipikipiki bibiri fite udusanduku inyuma dufite ibara ry'umweru n'umukara ndetse yandikishijwe ibara ry'umukara n'umutuku kaba ariho abantu wambaye umupira ufite ibara ry'umutuku n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu n'inkweto z'umweru umupira ufite ibara ry'umutuku w'ipantaro y'ubururu ndetse n'inkweto zifite ibara ry'igitaka.

Ikinyabiziga kiri mu bwoko bw'ipikipiki gifite agasanduku k'inyuma gafite ibara ry'umuhondo, kandidikishijweho amagambo atandukanye afite ibara ry'umukara ndetse n'umutuku, umuntu wambaye ikoti rifite ibara ry'ivu ipantaro ifite ibara ry'ubururu n'akajiga gafite ibara ry'ubururu karimo n'umweru.

Umuntu wambaye agapira k'icyatsi gafite amaboko magufi ndetse kariho utuntu tw'umweru, ipantaro y'ubururu, ingofero mu mutwe ifite ibara ry'umuhondo ndetse uhetse igikapu gifite ibara ry'icyatsi cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, hejuru hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo hakaba hariho ibiti bifite ibara ry'icyatsi.

Imodoka nini y'ikamyo, igizwe n'amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, ikaba yanditseho iposita, iparitse ahantu, ikaba ikore ikigo gishinzwe kugenda kigeza ku bantu ibyo bandikiye bagenzi babo.

Urupapuro rufite ibara ry'umweru ryandikishwaho amagambo afite ibara ry'icunga umukara ndetse ha akaba ariwo n'imibare yandikishijwe iba ry'icunga hakaba ariho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku ndetse n'amagambo azikishijwe ibara ry'umukara n'umweru akaba ariho'ikinyabiziga kiririmo ubwoko bw'imodoka gifite ibara ry'icungage ndetse n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'akandi kantu gafite ibara ry'igitaka ndetse n'umukara.

Umucuruzi yakiriye ibicuruzwa abihawe n'umucuruzi ukora mu isosiyete yitwa Vuba vuba kugira ngo abone ibicuruzwa bye neza.

Aho bogereza hafite ibara ry'umukara n'akabati gafite ibara ry'umweru ndetse n'idirishya rifite ibara ry'umutuku n'umweru, hakaba ari utu dukoreshwa dufite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru n'icyatsi.

Inyubako ifite irange rifite ibara ry'umweru ndetse harimo n'uturango tw'umuhondo hakaba hari n'intebe zifite ibara ry'umukara, ameza y'umukara n'izindi zifite ibara ry'umweru .Amezi afite ibara ry'igitaka ariho akavaze gafite ibara ry'igitaka kariho indabyo ndetse n'akagatebe gafite ibara ry'igitaka.

Inyubako ifite ibara ifite ibiti bifite ibara ry'icyatsi ndetse no hasi hafiteba ry'icyatsi, hirya hakaba hari ipoto ifite ibara ry'umutuku, hakaba hari hejuru amagambo yanditseho afite ibara ry'umukara ndetse n'imibare ifite ibara ry'umuka ndetse n'akadarapo gafite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse n'icyatsi.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ndetse ifite n'ibara ry'umuhondo hakaba haparitse ikinyabiziga kiri ubwoko nk'imodoka gifite ibara ry'umutuku wijimye, hasi hakaba bafite ibara ry'umutuku n'igitaka, hakaba harimo amakaro afite ibara ry'umweru ndetse n'avaze ririmo indabyo rifite ibara ry'icyatsi ndetse n'umukara akaba hejuru handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ndetse n'ivu ifite igipangu gifite ibara ry'umukara ndetse n'amatara afite ibara ry'umuhondo, hakaba hariho n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi ndetse n'ibiti bifite ibara ry'icyatsi indabyo zifite ibara ry'icyatsi ndetse hakaba harimo n'urugi hirya rufite ibara ry'icyatsi ndetse n'inzu hirya ifite ibara ifite amabati afite ibara ry'ubururu n'umutuku.

Icyumba cy'ubwogero ndetse n'umweruro gifite amabarage atandukanye, umweru ikigina ndetse hakaba harimo n'igitaka, harimo ibintu bigiye bifite amabarage atandukanye y'umweru ndetse n'umuhondo.

Inzu ifite ibara ry'umweru, yandikishijweho amagambo afite ibara ry'umweru ndetse n'umukara, hakaba hariho imiryango ifite ry'umukara kikagira umuriro, gfite ibara ry'umutuku, hakaba hariho ameza afite ibara ry'umukara ndetse nutundi tuntu dufite ibara ry'umweru.

Umuryango ufite ibara ry'umukara ndetse mo imbere hafite ibara ry'umweru ifite ibi itara bifite ibara ry'umweru ndetse n'ubururu hakaba handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'imibare yandikishijwe ibara ry'umukara kuri darapo ifite ibara ry'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo.

Akabati gate gafite ibara ry'ubururu, hejuru gafite ibara ry'umukarara, gateretseho agasanduku karimo ibintu bigiye bitandukanye by'imbuto bifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umutuku, hirya kaba hari aho batekera hafite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, hakaba hariho n'andi meza agiye atandukanye, aho bogereza ibyombo hafite ibara ry'umweru.

Uburiri buriho amashuka agiye atandukanye, afite ibara agiye atandukanye afite ibara ry'ubururu ndetse harimo'utuntu tw'umuhondo n'umweru kaba ariho imisego ifite ba ry'umweru akameza' k'uburiri gafite ibara ry'igitaka itara rifite ibara ry'umweru ndetsekabamanitsemo n'amafota afite ibari ry'taka.

Uburiri bufite ibara rigiye ritandukanye ririho amashuka agiye atandukanye rufite ibara ry'umweru, imisego ifite ibara ry'umweru, itanda ifite ibara ry'igitaka ndetse n'akabati k'igitanda gafite ibara ry'igitaka, hakaba hariho ibintu bigiye bitandukanye, hejuru handitseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ari mu kantu k'umweru, ndetse n'idarapo rifite ibara ry'ubururu, umuhondo ndetse bi.

Intebe zifite ibara ry'umukara ndetse n'ameza afite ibara ry'igitaka, hirya hari ururabyo rufite ibara ry'umweru, hari umuntu uri gutambuka wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu bwerurutse ndetse n'ipantaro ifite ibara ry'ubururu, wambaye inkweto zifite ibara ry'umukara ndetse n'urundi rurabyo rufite ibara ry'icyatsi.

Akabati gafite ibara ry'igitaka, umuryango ufite ibara ry'igitaka, intebe iteretseho umwenda ufite ibara ry'umweru ndetse hakaba hari aho batekera hafite ibara ry'igitaka ndetse n'umukara, hakaba hari hirya akamashini gashyushya ibiryo gafite ibara ry'umukara.

Ibitebo birimo indabyo bifite ibara ry'igitaka ndetse indabyo zifite ibara ry'icyatsi umutuku wijimye ndetse harimo n'umuhondo inzu ifite ibara ry'umutuku ndetse n'umweru amadirishya afite ibara ry'umukara ndetse n'inzugi zifite ibara ry'umukara .

Inzu ifite ifite ibara ry'umweru ririho imbabyo ziri mu dutebo dufite ibara ry'igitaka , indabyo zifite ibara ry'icyatsi ndetse n'imiryango ifite ibara ry'umukara, amadirishya afite ibara ry'umukara. Hasi hari utuntu dufite ibara ry'umutuku ndetse n'igitaka.

urupapuro rufite ibara ry'umweru, ndetse rwandikishijeho amagambo agiye atandukanye, afite amabaradi atandukanye, yandikishijwe mu mabara, afite ibara ry'umukara ndetse n'umweru hakaba hariho n'akakantu gafite ibara ry'ubururu, n'akandi gafite ibara ry'igitaka ndetse hakaba ari hejuru n'ahandi hafite ibara ry'igitaika.

Inzu ifite ibara ry'ubururu ndetse hakaba hariho amabati afite ibara ry'umutuku, hakaba hariho n'ibara ry'umweru. Akaba ari igipangu gifite ibara ry'ubururu, ikigega gifite ibara ry'umukara, hakaba hirya hari akaryango gafite ibara ry'ubururu handitseho amagambo agiye atandukanye afite ibara ry'umukara, ariho n'imibare yandikishijwe ibara ry'umukara.

Ubutaka bufite ibara ry'igitaka, ndetse harimo n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi hakaba harimo ibintu bigenda bitandukanye, harimo imirongo igiye itandukanye hakaba ari amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'umuhondo.

Inyubako ifite inzu y'umweru, harimanitse televiziyo ifite ibara ry'umukara ndetse n'umugozi Ifite ibara ry'umukara, hari n'akantu gafite ibara ry'umukara, ndetse hakaba ariho n'amarido afite ibara ry'umweru, igitaka ndetse n'umutuku n'urugi rufite ibara ry'umukarabanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru n'imibare yandikishijwe ibara ry'umukara.

Inyubako ifite ibara ry'umweru ndetse ikaba ifite ibiti bifite ibara ry'icyatsi n'ibyatsi bifite ibara ry'icyatsi, ikaba izengurutswe n'amatafari ifite amabara agiye atandukanye hari n'andi afite ibara ry'ubururu, hakaba hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'imibare yandikishijwe ibara ry'umukara.

Intebe zifite ibara ry'igitaka ndetse n'ameza afite ibara ry'igitaka, afite imisego ifite ibara ry'umukara, ubururu ndetse n'umweru, na tereviziyo ifite ibara ry'umukara ndetse n'uturabyo dufite ibara ry'icyatsi hakaba hariho ibintu bigiye bitandu amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ndetse n'akandi kariho akantu k'umutwe n'akadarapo gafite ibara ry'ubururu n'umuhondo ndetse n'inti.

Akabati gafite ibara ry'umukara harimo ibyo kurya bigiye bitandukanye gafite ibara ry'umutuku, umweru ,umukara, ndetse hari umuntu uhagaze wambaye umupira munini ufite ibara ry'umweru rishushanyijeho utuntu dufite ibara ry'umweru, umukara, iroze ndetse n'amagambo yandikishijwe amabara y'umukara ndetse n'ipantaro y'umukara.

Umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'ivu, ingofero ufite ibara ry'ivundetse n'ipantaro y'umukara, bambaye agapira gafite ibara ry'umuhondo ndetse n'ipantaro y'ubururu, bambaye agapira gafite ibara ry'icunga ry'iroze ndetse n'ipantaro y'ubururu. Hakaba hari ibintu byinshi bimanitse by'ubucuruzi, bifite ibara ry'umweru, ikigina, igitaka ndetse n'icyatsi.

Ameza igitambaro ki mu ubwoko bwihitanye gifite ibara ry'umutuku, bateretseho amasahani agiye atandukanye hariho ibiribwa bigiye bitandukanye, bifite ibara ry'umuhondo mu cyatsi umweru ndetse n'umutuku, akaba hari abantu bagiye batandukanye harimo n'uwambaye ishati y'amaboko magufi ifite ibara ry'umukara n'akandi imbere gafite ibara ry'umweru.

Inzu ifite ibara ry'umweru ndetse n'imiryango ifite ibara ry'ikigina harimo abantu benshi bagiye batandukanye bambaye imyenda y'imukara inkweto z'umukara umupira ufite ibara ry'ubururu wanditseho umubare ufite ibara ry'umweru ipantaro yumukara n'inkweto ifite ibara ry'umweru hejuru hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umutuku hakaba harimo n'undi wambaye ipantaro.

Umuntu wambaye umupira w'umukara, uriho amagambo yandikishije ibara ry'umuhondo, wambaye ipanaro ifite ibara ry'ubururu. Inyuma hakaba hari amakanzu, afite abara ry'ubururu ndetse n'umuhondo n'umukara, hakaba harimo n'ubururu bwijemye.

Akabati gafite ibara ry'igitaka ndetse n'umweru gateretsemo ibivaza bigiye bitandukanye birimo ibifite ibara ry'umukara ndetse n'umweru, hakaba hariho n'udupapuro turiho dufite ibara ry'umuhondo, hakaba harimo indabyo zitandukanye zifite ibara ry'icyatsi umutuku wijimye, umweru ndetse n'umuhondo.

Inzu y'ubucuruzi nibinu byari bitandukanya amaanitseho amashakoshi afite ibara ry'umukara ndetse n'igitaka n'iroze' imikandara ifite ibara ry'umukara ndetse afite n'ibitaka hakaba hariho hahagaze umuntu ufite imisatsi miremire y'umukara w'ishishakoshi ifitr ibara ry'umukara ndetse n'igitaka yambaye ijipo y'ibara ry'umutuku n'agapira gafite ibara ry'umweru.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye; ifite akabati karimo ibyo kurya bigiye bitandukanye n'imigati. Umugati ukozwe mu ifarini, amagi, amata ndetse n'umusemburo hakaba harimo amazi. Hakaba hariho abantu bambaye imyenda y'imyeru, ingofero y'umweru, umupira, ishati y'amaboko magufi y'umweru ndetse n'uwambaye ishati ifite ibara ry'icu...

Akabati gafite ibara ry'umweru ndetse karimo ibintu byinshi byari bitandukanye bifite amabara y'umweru, icyatsi, i roze ndetse harimo n'umuhondo hakaba harimo n'ubururu akaba ahahagaze nk'umuntu ufite umusatsi miremire wambaye agapira gafite ibara ry'ubururu ndetse n'undi wambaye ikanzu ifite ibara ry'umukara n'ikanzu y'igitenge gifite ibara ry'umuhondo n'umutuku.

Ameza afite ibara ry'umuhondo ateretseho telefone ifite ibara ry'umukara ndetse hariho n'umweru, hakaba hariho imigozi ifite ibara ry'umweru ikibo gifite ibara ry'umuhondo ndetse cyandikishijweho amagambo afite ibara ry'umukara ndetse n'utundi tuntu dufite ibara ry'ubururu n'umutuku, hejuru hakaba hari televiziyo ifite ibara ry'umukara, harimo amabara y'umuhondo ndetse n'ubururu, harimo amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara.

Ishami rishinzwe gucunga ubwisungane mu kwivuza rizwi nka mituweli, rikaba riha abaturarwanda bagiye batandukanye ubwo bwishingizi ku buryo babasha kwivuza nta kindi kintu kibahangayikishije, batanafite ubwoba bw'uko bishyura amafaranga menshi.

Umumama wambaye umupira ufite ibara ry'umweru, ndetse n'umupapa wambaye ishati ifite ibara ry'umweru bari guseka hariho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, ubururu ndetse n'icyatsi hakaba hariho n'icunga, hakaba hariho urupapuro rufite ibara ry'umweru rwanditsweho amagambogambo afite ibara ry'ubururu, ndetse n'icyatsi, ndetse n'umuhondo.

Ameza ariho igitambaro kimwe ubwoko bw'igitange gifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, hakaba ariho amakaye ndetse n'ibindi bitabo bigiye bitandukanye, akaba ari umuntu uri kwandika mu ikaye wambaye ikoti ifite ibara ry'umukara mu imbere agapira k'umweru n'undi wunamye ufite akitero ku umutwe gafite ibara ry'umutuku wijimye n'agapira karekare k'amaboko maremare gafite umutuku wijimye n'igitenge gifite ibara ry'ubururu n'umuhondo.

Inyubako ifite ibara ry'umuhondo ndetse n'umweru, harimo abantu bajyiye batandukaniye hirya hari ikigega gifite ibara ry'umukara hari abantu bicaye, n'uwambaye agashati k'amaboko maremare gafite ibara ry'umweru n'ijipo y'umukara, n'uwambambaye ishati ifite ibara ry'umweru ndetse inyuma hakaba hari ishakoshi ifite ibara ry'umutuku, ndetse n'umuntu wicaye wambaye umupira ufite ibara ry'umweru n'ijipo y'umukara.

Urugi rufite ibara ry'umukara hariho intebe ifite ibara ry'igitaka, hari umuntu ufite agapapuro kandi yanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umukara ariho ikirangantego kiriho ibara ry'ubururu hakaba hariho ibintu bigiye bitandukanye wambaye ijipo ifite ibara ry'ubururu n'umweru.

Ameza ariho igitambaro gifite ibara ry'umutuku, hateretse ibintu bigiye bitandukanye harimo ishakoshi ifite ibara ry'umukara, hariho n'ibindi bintu bifite ibara ry'umweru, ameza afite ibara ry'umweru, hirya hakaba hari umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru n'ipantaro y'umukara n'undi wicaye wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru.

Umuntu uhagaze, wambaye igitenge gifite ibara ry'iroza, ndetse n'umweru, uhetse umwana ufite akitero gafite ibara ry'umweru, n'igitambaro mu mutwe gifite ibara ry'iroza, ndetse n'ubururu, inzu ifite ibara ry'umweru, ndetse n'umukara, hakaba hariho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'ubururu.

Igipapuro gifite ibara ry'umweru, cyanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu, ndetse hariho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru, hakaba hariho hirya kandi kantu gafite ibara ry'umuhondo, icyatsi, ndetse n'ubururu, hakaba hariho n'amagambo yandikishijwe ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi.

Ameza afite ibara ry'igitaka yateretseho ibintu bigiye bitandukanye amakayi, ibitabo ndetse hariho n'udupapuro dufite ibara ry'ubururu, hakaba hiciyeho abantu bicaye ku ntebe zi ifite ibara ry'umweru hari abambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu igitenge gifite ibara ry'icunga ndetse hakaba harimo n'umuntu uhagaze wambaye ikote rifite ibara ry'iroza n'agapira k'umukara.

Umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'ubururu uriho amagambo yandikishijwe ibara ry'icyatsi ndetse n'ubururu harimo n'akantu gafite ibara ry'umweru, ufite ingofero mu ntoki, ifite ibara ry'umukara, ufite indangururamajwi, inyuma ye hakaba hari igipapuro gifite ibara ry'umweru ndetse cyandikijweho amagambo afite ibara ry'umukara ndetse n'ubururu.

Ameza afite ibara ry'igitaka yicayeho umuntu wicaye ku ntebe ifite ibara ry'umukara ufite mudasobwa ifite ibara ry'umukara karangurura amajwi gafite ibara ry'umukara wambaye agakanzu gafite ibara ry'umukara n'umweru noneho wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'umweru na karuvati ifite ibara ry'umukara ndetse n'isaha ku kaboko.

Umuntu ufite imisatsi miremire y'umukara iboshye wambaye ikote rifite ibara ry'ubururu, agapira k'umweru, ipantalo ifite ibara ry'ubururu, hari akabati karimo ibintu bigenda bitandukanye ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, bifite amabarage atandukanye umuhondo, icyatsi ndetse n'umutuku harimo n'igitaka, hakaba akabati gafite ibara ry'umweru.

Umugore wambaye igitenge gifite ibara ry'umutuku, icyatsi, ubururu ndetse n'umweru, urimo uratora utuntu dufite ibara ry'umutuku, umuhondo ndetse harimo ibintu byinshi bigiye bitandukanye biri mu kabati, gafite ibara ry'umuhondo, umweru, icyatsi ndetse n'icyatsi kibisi.

Akabati gafite ibara ry'umweru ndetse n'icunga karimo ibintu bigiye bitandukanye bifite amabara y'icyatsi, umweru, ubururu, umuhondo ndetse n'umutuku, hakaba hariho umuntu wambaye ishati y'amaboko maremare ifite ibara ry'ubururu n'ipantaro y'ubururu ufite agacupa gafite ibara ry'igitaka ndetse n'inkweto zifunguye n'uwambaye umupira ufite ibara ry'umutuku wanditseho amagambo yandikishijwe ibara ry'umweru ndetse n'ipantaro y'ubururu n'agatebo k'umutuku.

Akabati karimo ibyo kurya bigiye bitandukanye, bifite amabarage atandukanye, bifite ibara ry'igitaka, ndetse umukara harimo ibiribwa bigiye bitandukanyeye, bifite ibara ry'icyatsi umuhondo, umutuku, ubururu, igitaka ndetse n'umutuku wijimye, hakaba harimo umweru n'amagambo yanditse, yandikishijwe ibara ry'umweru.

Akabati gafite ibara ry'umweru, karimo ibyokurya bigiye bitandukanye, bifite ibara ry'icyatsi, umuhondo, ikigina, umutuku, umukara, ndetse harimo n'icunga, hakaba harimo n'ibifite ibara ry'iroze, ndetse n'umweru, kaba harimo n'ifite ibara ry'ubururu, hakaba harimo umuntu wambaye umupira ufite ibara ry'igitaka, ndetse n'ipantaro rifite ibara ry'umukara.

Akabati gafite ibara ry'umutuku karimo ibintu bigiye bitandukanye bifite ibara ry'ubururu, umuhondo, umutuku icyatsi n'umweru, hakaba harimo n'umuntu uteruye agakopo gafite ibara ry'icunga ndetse kariho amagambo agiye atandukanye yandikishijwe ibara ry'ubururu, harimo n'andi yandikishijwe ibara ry'umukara.

Inyubako irimo ibyo ibiribwa bigiye bitandukanye, hakaba biri mu tubati dufite amabara agiye atandukanye, umutuku ndetse n'ubururu, hakaba harimo ibibiriribwa bigiye bitandukanye bifite amabara y'umutuku, ubururu, igitaka ndetse hakaba harimo n'andi afite ibara ry'icyatsi, hakaba haririmo umuntu uhagaze wambaye ikote rifite ibara ry'umweru, ipantaro'umukara n'undi wambaye ikoti rifite ibaga ry'icunga n'ipantaro y'umukara.

Akabati gafite ibara ry'umukara karimo ibintu byari bitandukanye bifite amabara y'icunga, mu cyatsi, umuhondo, umweru ndetse n'ubururu. Hakaba harimo n'umuntu wambaye ishati maremare rifite ibara ry'ubururu n'ipantaro y'umukara, n'uwambaye agapira k'umukara n'agashati karengaho gafite ibara ry'umutuku wijimye, n'ijipo y'umukara wambaye udukweto dufunze.

Akabati gafite ibara ry'umweru ndetse n'umutuku wijimye karimo ibintu bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umweru n'ubururu, icyatsi, umuhondo, umutuku, ndetse harimo n'icunga. Hakaba hari udupapuro hejuru dufite ibara ry'umuhondo n'umutuku wijimye twandikishijweho imibare ifite ibara ry'umutuku.

Inzu y'ubucuruzi irimo ibintu bigiye bitandukanye, ifite utubati dufite ibara ry'icyatsi, harimo ibiribwa bigiye bitandukanye bifite ibara ry'umuhondo, umutuku ndetse hakaba harimo n'ibindi bifite ibara ry'icunga, hakaba harimo ibifite ibara ry'icyatsi n'umukara ndetse n'iroze, bikaba biri mu bintu bigiye bitandukanye.